Umuganga urimo kugenda ahugura bagenzi be amu kubereka ukuntu ushobora gufitira umutima igihe umuntu ahwereye mu buryo butunguranye, cyangwa se igihe umuntu ubuzima burimo kugenda bumucika ahangaha yifashisha intoki cyangwa se ikindi cyuma kifashishwa mu gushitura umutima.

Itsinda ry'inzobere, biganjemo abaganga barimo kuvura umuntu, aha ngaha ni hahandi baba bafasha umuntu ufite uburwayi buremereye cyangwa se igihe arembye cyane barimo kugenda bamwitaho by'umwihariko kugira ngo barebe ko bamuvura.

Abagabo babiri bambaye imyenda yabugenewe ikoreshwa mu buvuzi barimo kugenda baterura umusore wagize ikibazo bagiye kumushyi kuri twa twuma bita burankare twifashishwa mu gutwara umuntu mu maboko, atwarwa n'abantu babiri umwe afashe imbere n'undi inyuma.

Abagabo bakora mu kigo cy'ubutabazi bafashe umugabo, barimo kumuterura bamujyana ku kigonderabuzima kibegereye, kugira ngo ahabwe serivisi z'ibanze. Barimo kugenda bamuterura bafatanyije, kugira ngo bamugeze ku mbangukiragutabara iri iruhande rwo hirya.

Abagabo bagize ikigo cy'ubutabazi cya Croix Rouge ndetse n'abandi bari kumwe. Barimo kugenda baganira umugabo wambaye karuvati n'ingofero. Arimo kugenda atanga igitekerezo n'abandi bakamwumva ndetse ku meza hariho amazi barimo kugenda banywa ndetse banaganira.

Umuganga urimo gutanga ubuvuzi, ahangaha ni muri bya byumba biba bifite umwihariko aho bajyanamo umuntu urembye, cyangwa se umuntu ukeneye kwitabwaho mu buryo bwihuse. Ahangaha uyu muganga arimo kugenda amuvura.

Imodoka zigera kuri esheshatu, izingizi zikoreshwa kwa muganga ,ziba zitwara abarwayi ,zibajyana mu bice bijye bitandukanye, cyane cyane igihe bakeneyewe guhabwa ubutabazi bw'ibanze cyangwa se ubutabazi bwisumbuyeho, igihe ku bitaro bavurirwagaho babananiwe.

Ibitanda bibiri bisase neza ndetse bigizwe na bya bitanda bya rasoro, aho umuntu aba yicara ajya hasi yongera azamuka, n'ibitanda bibiri bishashe neza ndetse bigaragara ko abantu baryamye kuri ibi bitanda aramutse ari babiri bashobora kuganira buri wese ari ku gitanda cye.

Imodoka y'imbangukiragutabara za zindi zitwara abarwayi barembye cyane babajyana mu bindi bitaro, aha ngaha kandi hari umuntu arimo gusunika ku kagare bagiye kumushyira mu modoka kugira ngo ajye guhabwa ubundi buvuzi bwisumbuyeho.

Umugabo waje kwikingiza, barimo kumutera agashinge ndetse arimo gushinyiriza cyane biragaragara ko arimo kubabara. Arimo guseka cyane kwakundi umuntu aseka ari gushinyiriza atari uko abikunze ndetse kandi yareze imitsi.

Abagabo babiri, umwe aricaye undi arahagaze, hanyuma uwicaye barimo kumutera urushinge bamukingira indwara zigiye zitandukanye, nka kwakundi bakingiraga korona virusi, ndetse uyu muganga urimo kumukingira yambaye agapfukamuwa ariko yamajire yo kwa muganga ntayo yambaye.

Ibitaro birimo abantu benshi baryamye ndetse abenshi muri bo bararwaye n'ababarwaje, hanyuma buri gitanda gifite inzitiramibu aho umuntu adashobora kuribwa n'imibu igihe ari aha ngaha cyangwa se ari kuvurwa.

Utudege duto tutagira abapilote aho tujyana amaraso cyangwa se indi miti mu bigo bigiye bitandukanye, by'ibitaro aho aka kadege gashobora kwitwara nta mupilote urimo, kagera aho kagomba kujyana ibyo bagashizemo kakabirekura, hakaba hari ushinzwe kubitora nawe akabijyana mu bitaro.

Itsinda ry'abantu bahagaze imbere y'imbangukiragutabara ya y'indi itwara abarwayi ibajyana ku bigo bigiye bitandukanye kugira ngo bahabwe ubundi buvuzi bwisumbuyeho ndetse kandi barimo gufata ifoto y'urwibutso, ni nyuma yo kurema inama.

Amarembo yo kwa muganga aho harimo umugezi ahantu umuntu agenda agatega intoki amaze akizana, harasakaye hameze neza, hanyuma n'ibitaro bikikijwe n'ubusitani bigizwe n'indabo ndetse hariho itaka ribereye aho, ntabwo hateyesima, mu nzira umuntu anyuramo agiye kwa muganga.

Abayobozi bakoraniye hamwe barimo gufata ifoto y'urwibutso biganjemo abakora mu nzego z'ubuzima, abavuzi, abaforomo n'abaforomokazi barimo kugenda baganira ku ngingo runaka, nyuma yo kuganira barahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe, kitabiriweho n'abantu bagiye batandukanye, ahangaha ni aho muntu yinjirira, hari amasikariye umuntu agenda akandagira gake gake, ubundi akagera aho agomba gusuba serivisi, hari abana, abagabo ndetse n'abagore, baje gusaba serivisi z'ubuzima.

Umuforomokazi urimo kugenda yongera umuti muri serumu, ahangaha ni kwa muganga. arimo kugenda afasha umurwayi kugira ngo amwongerere urutege, arinako agenda amufasha kumuhereza imiti, ayicishije muri serumo kugira ngo akire.

Abaganga bagera kuri batatu bicaye ku ntebe, hanyuma undi arahagaze afite akantu arimo kujyana mu bindi bice bigiye bitandukanye, aba ngaba ni abadogiteri cyangwa se b'abaganga baba ari inzobere baba bazi ibintu byinshi naho uriya uhagaze w'umumama arimo kujyana ibikoresho mu bice bigiye bitandukanye.

Imbaga y'abantu benshi bahagaze mu muhanda rwagati biganjemo abaforomo, abaforomokazi ndetse n'abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye, ni kwa kundi baba barimo gufata ifoto nyuma yo gukora inama cyangwa igihe habaye amahugurwa.

Imbangukiragutabara iri ku bitaro yifashishwa mu gutwara abarwayi barembye ibajyana mu bice bibirigiye bitandukanye kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwisumbuyeho, ibi ngibi bikorwa igihe umurwayi yananiranye aho bamwohereje.

Abagabo babiri n'abagore batatu bambaye imyenda yo kwa muganga, bari muri bya byumba by'umwihariko aho bakira umuntu uri guhabwa serivisi zihariye mu gihe arembye cyangwa se afite ikibazo gikomeye, bambaye udupfukamunwa ndetse n'indi myenda yambarwa n'abaganga.

Abaganga barimo gutanga serivisi zigiye zitandukanye ziganjemo iz'ubuzima, aho uyu nguyu ari umuntu barimo kubaga, bari no kureba ikibazo afite, izi ni inzobere ebyiri mu buzima ziri kugenda zijya inama bareba icyo bakorera uyu murwayi.

Umuganga ufite umuti arimo kugenda ashyira hejuru, kugira ngo arebe igipimo cya nyacyo ashaka gukoresha, yambaye agapfukamunwa, yambaye indorerwamo, ndetse n'akandi kantu mu mutwe. Yambaye kandi na none ya myenda yabugenewe. Aha ngaha ari ni hahandi bakorera ubushakashatsi, ndetse mu rurimi rw'icyongereza bata laboratwari.

Umugabo ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga bya bindi bikunze kuboneka ahantu bakorera ubushakashatsi cyangwa ahantu hapimira indwara kitwa mikorosikopi, aho umuntu ashobora kugenda areba ibintu biri bitoya bitagaragazwa n'ijisho ry'umuntu akabitubura akaba ashobora kubona ikintu kihishe.

umugore ufite rushinge arimo kugenda areba ingano y'umuti agiye gutera, yambaye uturindantoki ndetse arimo kugenda areba ko umuti ushobora guca mu rushinge ugasohoka nta kibazo biteje.

Umuganga wambaye neza mu buryo bwabugenewe, yambaye ingofero, ikirahuri ndetse n'agapfukamunwa, yambaye uturindantoki ndetse ahantu hose aripfutse. Aha ngaha ni ba bandi baba bari gukora ubushakashatsi aho bita muri labaratwari.

Umugabo w'umuganga urimo kugenda akora ubushakashatsi, arimo kugenda apima ari nako agenda akuramo ibinini bimwe na bimwe akabishyira ku kandi kahande, ndetse yambaye uturindantoki, hanyuma kandi yambaye imyenda yabugenewe yo kwa muganga.

Umuganga urimo kugenda asuzuma indwara zigiye zitandukanye, ahangaha arimo kugenda afata ibizamini byafashwe kugira ngo agenda arebe ikintu kiri bu kubivamo, arimo kugenda asuzuma buri kamwe yagiye afata, ndetse yambaye uturindantoki.

Umuganga w'inzobere uri mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi cyangwa se aho basuzumira ibizamini, baahita muri laboratwari, aho umuganga ashobora kureba ikintu utarebesha amaso, yifashishije kino gikoresho bita mikorosikopi, gishobora kureba ibintu, kikabitubura.

Abana biga mu mashuri y'incuke aho bagiye guhabwa ifunguro n'abarezi babo, barimo kugenda bahereza umwe umwe, ni igihe kigeze cyo kurya, hanyuma buri wese yicaye ku ntebe ndetse yegereye ameza, ni igihe cyo gufata ifunguro, igihe runaka haba saa sita cyangwa se nimugoroba.

Abagabo barimo kugenda bahereza abana amata ndetse ni mu buryo bwo gushishikariza abantu kwita ku bana, babarinda imirire mibi, indwara ziterwa no kurya nabi, kurwingira ndetse n'ibindi. Barimo kugenda babahereza amata umwe kuri umwe.

Umugabo uhagarariye ikigo cy'ubuzima RBC cyo mu Rwanda, arimo kugenda atanga ubutumwa bujyanye n'ubuzima ku banyeshuri bakoraniye hano, ndetse harimo n'abaturage bagiye batandukanye baje kureba ibyo abo banyeshuri barimo kwigishwa, nabo ubwabo bishobora kuba bibareba.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bagiye batandukanye barimo gukina ndetse na mwarimu wabo ari hagati arimo kugenda yisanzura asabana n'aba banyeshuri hanyuma abandi bagiye bari mu dutsiko tugiye dutandukanye ari nako bakina imikino imwe n'imwe.

Abantu bateraniye hamwe bambaye imipira isa y'icyatsi ndetse aha hantu hariho n'itende ndetse ku buryo aba bantu imvura iramutse iguye cyangwa se izuba ridashobora kubageraho, bateze amatwi umuntu urimo kugenda abagezaho ikiganiro.

Itsinda ry'abanyeshuri barimo kugenda mu bice bigiye bitandukanye biganjemo urubyiruko, bafite icyapa no kugenda batanga ubutumwa bahereza urubyiruko, bavuga bati, "Turwanye ibiyobyabwenge kuko bitwicira ubuzima ndetse kandi bikanadindiza iterambere ry'igihugu."

Abantu benshi bakoraniye hamwe barimo kureba inama. Bakoze uruziga ndetse harimo ababyeyi bafite abana, hakabaho n'abandi bantu b'abasore. Abenshi muri bo bambaye udupfukamunwa, bicaye mu kibuga ahantu hari ibyatsi. Ni munsi y'igiti.

Ubutumwa bugiye butandukanye bushishikariza abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe, iyi ni gahunda iba yashyizweho n'ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe ubuzima RBC aho baba bashishikariza abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe cyangwa se mu mitekerereze.

Umugore w'umuganga w'amatungo arimo kugenda atunganya imiti ayishyira ku murongo kugira ngo igaragarire abakiriya mu gihe baje hano bage babasha gutoranya babireba neza buri wese uwo akeneye, ashobora no gutanga ubuvuzi bibaye ngombwa.

Ububiko burimo imiti igitandukanye, ikoreshwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe ndetse higanjemo ibinini n'indi miti, bashobora gusuka, ahangaha niho veterineri akorera cyangwa se umuganga w'amatungo, niho ushobora kumusanga, igihe ushaka serivisi runaka.

Iduka ririmo imiti y'amoko agiye atandukanye yiganjemo imwe iri mu macupa manini cyane ahangaha ni mu bubiko bw'imiti bunini cyane aho umuntu ashobora kuza akarangura nawe akajya kuyigurisha ku bandi bantu baciriritse.

Ibinini by'amoko atandukanye harimo bimwe by'imyeru, ibijya gusa n'umutuku, umuhondo ndetse n'ibindi by'umukara. Ni amoko agiye atandukanye harimo ibimeze nk'ibiziga, ndetse n'ibindi birebire n'utundi tugiye twibumbye.

Iduka ririmo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse aha ngaha harimo umuganga w'amatungo, aho ashobora kuguhereza ubujyanama ku bijyanye no korora ndetse no guhinga, aha ngaha kandi ushobora kuza kwagurira imiti igiye itandukanye.

Umugore uri kumwe n'akandi k gatoya, ari kumwe n'abandi bantu barimo kugenda bamufasha, bari kumwereka imiti y'amoko igihe atandukanye, nawe akagenda ahitamo, bigaragara ko haricyo yaje kuvuza, ashobora kuba aje kugura imiti muri farumasi cyangwa se iduka ry'imiti, ku baganga b'amatungo.

Iduka ricuruza imiti igiye itandukanye, ahangaha bavurisha ibimera ndetse iyo wagize ikibazo uragenda bakagukorera imiti gakondo, bakakumasa ndetse n'ubundi butabazi bashobora gukorera umuntu wahuye n'ikibazo. Ahangaha kandi ushobora no kugura imiti ukayicyura.

Iduka ricuruza imiti igitandukanye yiganjemo iya gakondo, ahangaha bavura abantu mu buryo bugiye butandukanye bakoresheje ibimera, bashobora kugufasha kuguhereza umuti unywa cyane cyane igihe ufite uburwayi abandi baganga bananiwe.

Iduka ri'amamobokoko y'imitigiye atandukanye, yifashishwa mu kurwanya icyorezo cyangwa indwara runaka, mugihe byibasiye amatungo, abantu, ndetse n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ahangaha ushobora kuhagurira imiti igiye itandukanye waba ugiye kuyitera mu nyamaswa cyangwa se amatungo, cyangwa se mu bihingwa.

Iduka ricuruza imiti cyane cyane iy'amatungo ahangaha yitwa ngo sarura agororovete aho batanga serivisi zi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo ndetse n'ubundi buvuzi igihe umuntu ashaka muganga w'amatungo ashobora kumusanga hano.

Imbaga y'abaturage benshi bakoranya. Aha ngaha imbere yabo hariho umuyobozi urimo kubagezaho ubutumwa. Hariho ibyapa byamamaza, bishishikariza abantu kugira ubwishingizi cyane cyane bwo kwivuza. Aha ngaha kandi hariho n'amatente yubatse neza.

Ahantu hateraniye abantu benshi. Aho barimo kugenda bareba televiziyo cyangwa se ahantu baba bakwirakwije amashusho. Agaragaza serivisi barimo kugenda bigishaho. Aho abaturage baje kwihera ijisho, ibintu barimo kugenda bigishwa, babyirebera imbonankubone.

Uruhurirane rw'abantu bateraniye hamwe, bari mu nama bari kugenda baganirizwa kugira ngo bamenye serivisi runaka, cyane cyane barimo kugenda bigisha ishema ryanjye, kadi amakarita avuga ishema ryabo ndetse ni serivisi nko kugenda bigishwa.

Imbaga y'abantu benshi bicaye ahantu mu nzu mberabyombi, imbere harimo umugabo arimo kugenda abasobanurira, harimo abari gukoma mu mashyi barimo kumushimira ibintu amaze kubakorera ndetse kandi hariho abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Abasore babiri bahagarariye amakipe yabo barimo kugenda batanga ubutumwa ku rubyiruko ndetse no ku bandi bantu bababwira ko uruhare rwa buri wese gukumira, kurwanya, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, inda ziterwa abangavu ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Urubyiruko rugizwe n'abakobwa n'abahungu barimo kugenda bashishikariza abandi bana bagenzi babo cyane cyane urubyiruko babwira ko ejo hazaza ari ahabo ndetse ahaza h'u Rwanda bababwira ko bagomba kwirinda virusi itera sida bipimisha guhera uyu munsi.

Ubutumwa bushishikariza abantu kuba bashobora gukina ndetse bakanirinda, ahangaha ni kwa kundi baba babwira abantu uburyo ushobora gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se izindi siporo zigiye zitandukanye kugira ngo urinde umubiri wawe.

Aba abanyeshuri, barimo kugenda bakora ubukangurambaga bugiye butandukanye, bifashishije kino cyapa, bafite imbere yabo. Bari kumwe n'umwarimu wabo ndetse bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'umweru ndetse n'amapantalo y'ubururu.

Abagabo, abagore bicaye barimo kugenda batanga ibitekerezo, barimo kugira inama abantu bagiye batandukanye ku cyorezo runaka, barimo baganira ku bintu bijyanye no kwirinda, bagizwe n'abagore bagera kuri babiri ndetse n'abagabo bagera kuri bane, bicaye imbere ku ruganiriro.

Abantu babiri barimo kuyungurura, bafashe ibimera bigiye bitandukanye barabicanira ndetse barimo kugenda bakamuramo amazi ari na ko umwe arimo kugenda asuka, undi na we afashe akayunguruzo arimo kugenda amufasha bayungura umuti ujya mu isafuriya.

Amacupa arimo imiti igiye itandukanye yiganjemo ya miti ya gakondo .Aha ngaha uraza ukagura bitewe n'ayo ukeneye. Ni ukuvuga ngo harimo imiti itandukanye iri mu buryo bw'igifu ndetse n'indi ushobora gusuka cyangwa se kunywa.

Umugore w'umuvuzi gakondo urimo kugenda yerekana imiti yakuwe mu bimera. Ari no kugenda yerekana umwe umwe ,yerekana akamaro imiti igira ndetsetse yiganjemo iyakuwe mu bimera bishobora kuvura indwara zananiranye cyane cyane za zindi ziba zarabaye karande.

Ikimera gifite uruyange ndetse ibingibi babyita intagarasoryo, bivura indwara zijya zitandukanye cyane cyane umuvuduku w'amaraso ndetse n'izindi ndwara. Ni ukuvuga ngo uyu ni umuti wa Kinyarwanda wakoreshejwe kuva na kera, aho wavuraga indwara zigiye zitandukanye gusa urarura.

Imiti igiye itandukanye ,yiganjemo iya gakondo igizwe n'ibimera cyane cyane harimo ibikakarubamba, hakabaho ibihumyo, hakabamo tangawizi ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye ibyo byose byifashishwa mu kuvura abantu.

Urutaro rw'imiti igiye itandukanye. Iri mu byatsi ndetse hari n'isekuru n'umuhini barimo kugenda basekuriramo imiti. Ni mu rwego rwo kugira ngo hacugwe imiti ishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, zananiranye hifashishijwe uburyo bwa gakondo.

Umuganga uri kureba imiti y'amoko agiye atandukanye yiganjemo iya gakondo ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze muganga ashobora kwifashisha mu gihe arimo kuvura, arimo kugenda ayikoraho ndetse iri mu macupa agiye atandukanye n'indi iri mu bikarito.

Umugore ufite indangururamajwi, arimo kugenda asobanura uyu muti afite, agaragaza icyo ushobora kuvura, uri mu gacupa ndetse ugizwe n'ibinini bigiye bitandukanye, byiganjemo iby'ibara ry'umutuku ndetse arimo kugenda asobanura uko iyi miti ikoreshwa.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye hamwe biganjemo abaturage, abajyanama buzima ndetse n'abandi benshi bakoraniye hamwe barimo kureba icyo barimo kwigishwa, bose barangamiye amaso imbere, gusa abenshi muri bo baratuje nta n'umwe urimo kuvuga.

Iduka ricuruza imiti igi itandukanye yiganjemo imiti y'amatungo, ahaga kandi wasanga serivisi z'ubujyanama ku buzima bw'amatungo, cyangwa se ku buhinzi n'ubworozi kuko abariho inzobere mu kuvura amatungo cyangwa se umuveterineri.

Umugabo uhagaze rwagati imbere y'abandi bantu arimo kugenda bigisha kuri serivise zigiye zitandukanye we arahagaze abandi baricaye arimo kugenda ababwira ibyo bagomba gukora, arimo kugenda abigisha cyane cyane kuri serivisi zijyanye n'ubuzima kuko hano hantu harasa nko muganga.

Umuti ushushanyijeho inkoko aho hariho igisake, inkokokazi ndetse n'utwana twazo, ni ukuvuga ngo uyu muti uvura inkoko igihe zirwaye umuramo ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye uyu muti urazivura nk'uko biteganywa n'amabwiriza y'abaganga b'amatungo.

Abagabo bambaye udupfukamunwa ndetse no kugenda bakaraba intoki mu rwego rwo kwirinda indwara zishobora guterwa n'umwanda, no kugenda bakaraba amazi meza n'isabune bakaraba ku bwogero rusange, ndetse kandi bambaye n'udupfukamunwa kugira ngo birinde ko bagenda banduza indwara, cyane cyane ibi byakorwaga mu gihe cya koronavirusi.

Umugore udakuze cyane urimo gukora isuku yo ku ntoki ahetse umwana ukiri mutoya, yikoreye imizigo ndetse arimo kugenda aseka afite n'akandi gakapu mu ijosi biragaragara ko afite imizigo myinshi. Ahangaha ari, ni hahandi abantu bashaka gukarabira ndetse bahita kuri kandagira ukarabe cyangwa se ku rukarabiro.

Ubusitani burimo icyapa kigaragaza ibitaro bya Nyagatare, aho hariho icyivugo cy'aba bantu bakora kuri ibi bitaro byo kwa muganga, ndetse bavutwa ko ari impkesha kurama z'ibitaro bya Nyagatare, ni ukuvuga ngo bafashe abantugwa neza igihe kirekire, ndetse batabara n'ubuzima bwabo.

Abayobozi bagera kuri batanu bavuye ku kigo nderabuzima, kandi ku kigo nderabuzima hicaye abantu bagera kuri babiri bategereje guhabwa serivisi, bicaye kuri za ntebe aho abantu bategererereza mu gihe batari babakira.